Abantu baricaye mucyumba cy'inama basa naho bakurikiye inama harimo n'abari kubaza ibibazo inyuma.

Ubusitani burimo itara ryo ku muhanda, buri iruhande rw'umuhanda, iruhande rw'umuhanda n'ubusitani hari amazu abaturage babamo, mu busitani hagati haciyemo akayira k'abanyamaguru kahanzwe n'abanyamaguru.

Akayira gatwikiriye n'amabati kwa muganga.

umukuru w'igihugu afite indangururamajwi ari kuvuga, yambaye ingofero na rinete, inyuma ye hahagaze umuntu umurinze. Inyuma ye hari ibirango bya efu pe ri n'abantu ari kubwira.

Imodoka iraparitse mu muhanda, irimo umuntu uri gupakira imizigo irimo, hari n'undi uri kuyicaho ku ruhande.

Imodoka itwara abagenzi mu muhanda iri kugenda iruhande rwayo hari umuntu uri kuyigendaho mu muhanda wabugenewe w'abanyamaguru ari kuri telefone.

Moto y'amapine atatu itwara imizigo, iri mu muhanda, ee, mu ruhande rw'ayo harimo indi itwara abakerarugendo, hakurya y'umuhanda mu muhanda wabugenewe harimo abanyamaguru,

Abantu baricaye mubusitani bari kuganira hakurya yabo nabo hari abandi bari kuganira harimo n'utuzu duto twubakishijwe ibiti.

Ndikubona umuzenguruko uririmo ibara ry'ubururu harimo ikimenyetso kerekana ibumoso cy'umweru, ni ikimenyetso cyerekana gukata cyangwa se ni icyerekezo cyerekana icyerekezo.

Icyapa kizengurutswe na mpandeshatu mu ibara ritukura harimo umuntu usa nk'aho ari kubaka, giteretse mu busitani.

Umuhanda urimo akavuyo k'abamotari, abanyamaguru, imodoka zigenda mu muhanda usa naho ushaje.

Igice cy'inzu, kigaragaza ku isakariro ryayo, hakurya yayo hari inganda, hakurya yo hari undi umusozi utuwe n'abantu.

Imodoka mu muhanda, irimo kugenda, harimo n'izindi, hakurya y'umuhanda harimo sitasiyo n'umumotari.